Ahantu bigishiriza amasomo ajyanye no gukora ibikoresho biva mu biti by'umwihariko imbaho. Aho bahakorera intebe, ameza ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibi bikorwa bifite umumaro ukomeye cyane mu iterambere'abantu babikora, kuko barabigurisha bakabaha amafaranga.

Inzu yubakishijwe n'ibikoresho by'ubwubatsi bizwi nka makaro, akaba ariho banakorera ibintu bijyanye n'ubushakashatsi by'umwihariko bw'ibinyabutabire, haragaragaramo umuntu uri gukora ubushakashatsi muri icyo cyumba.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bijyanye no kwigisha abanyeshuri amasomo. Ahangaha abanyeshuri bahigishirizwa gusoma, kwandika, ndetse n'amasomo ajyanye n'iby'ikoranabuhanga. Ubumenyi abanyeshuri bahakura, bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Inzu rusange irimo intebe, ibitabo nu tubati, bigaragara ko ikoregwamo ibikorwa bijyanye no gusoma.

Abanyeshuri bagiye ku kigo cy'amashuri, aho bagiye gufata ubumenyi bugiye butandukanye, buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange, aho bazajya bakora nk'amaboko y'igihugu cyabo.

Ishuri bigishirizamo ibintu bijyanye n'umuziki, aho bigishwa gukoresha ibicurangisho bitandukanye nk'ingoma, gitari ndetse n'ibindi byinshi cyane, haragaragara kandi mikoro zifashishwa n'abantu baririmba.

Abantu bari kwiga ibijyananye no guponda beto yifashishwa n'abantu bubaka inzu zigeretse zizwi ku izina rya etaje. Iyi beto bayikora bifashishije amabuye, sima ndetse n'umucanga. Ikaba inazwi ko ikomera cyane iyo imaze kuma.

Icyumba cyatoranijwe gukorerwamo ubushakashatsi, aha ngaha abanyeshuri barahajya bagakora ubushakashatsi ku bijanye n'ibyo baba bize mu ishuri risanzwe, by'umwihariko ababukora n'abiga ibintu bijyanye n'ubugenge ndetse n'ibinyabutabire.

Ahantu bigishiriza amasomo ajyanye no gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nka telefone, za mudasobwa, amaradiyo n'ibindi byinshi cyane. Ubu bumenyi abanyeshuri baherwa aha ngaha ni ingirakamaro cyane, kuko iyo babwifashishije bubinjiriza amafaranga.

Igikorwa remezo rusange kizwi nk'ishuri akaba ariho bigishiriza abanyeshuri amasomo ajyanye no gusoma, kwandika, kuvuga indimi z'amahanga ndetse n'andi menshi cyane. Akaba afite umumaro ukomeye mu iterambere ry'Igihugu cyacu ndetse no gutanga akazi ku bantu baba barayize.

Abanyeshuri bari kwiga amasomo ajyanye n'ibintu by'ubumenyi ngiro by'umwihariko ibyerekeranye no gukanika amamashini agezweho muri iyi minsi. Si ibyo gusa kandi, aya masomo agira umumaro ukomeye cyane mu muvuduko w'iterambere Igihugu cyacu kigenderaho.

Ahantu hatangirwa amasomo ajyanye n'ubumenyigiro, aho by'umwihariko bahigira ibijyanye no kudoda bifashishije imashini izwi nk'icyarahani. Ubudozi ni ikintu gifite akamaro gakomeye cyane mu muryango mugari, kuko bitanga akazi bityo bikazamura ubukungu.

Ahantu abanyeshuri bigira ibikorwa bijyanye n'ubumenyingiro, by'umwihariko aba bo bari kwiga ibijyanye no gukora inkweto.

Abantu bigira amasomo nk'ibijyanye n'ikoranabuhanga rya telefone, compiyuta ndetse n'ibindi byinshi cyane, aya masomo afite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'isi mu buryo bwa rusange.

Ahantu bigira amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro. Bakaba bahigira ibintu bijyanye no kubaza, gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikaba bigira umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Abanyeshuri bari kwiga amasomo y'ubumenyingiro, by'umwihariko ajyanye no gukanika, ibinyabiziga byo mu cyiciro cya moto, aya masomo afite umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko uha amafaranga abantu babikora.